Kugira ngo tubeho neza, tugomba gukwirakwiza amazi, ahantu hatandukanye. Nk'urugero mu bigo by'amashuri usanga abana bagira inyota, bakabura amazi yo kunywa asukuye. Iyo bayashyize ahantu, bagomba kuyanywa, kugira ngo ubuzima bwabo buzire umuze.

Uburyo bwiza bwo kwita ku bantu, nk'urugero nk'abamama babitaho bakoresheje kubaganiriza kugira ngo babarememo ibyishimo by'ubuziraherezo, no kubarinda gusaza imburagihe kuko bibangiriza.

Ikigega kinini cyane gifite ibara ry'umukara, urugo rwubakishije amabuye, umwana ufite igikombe bigaragara ko aje gushaka amazi yo kunywa kubera ko yari ayakeneye.

Abagore babiri n'abana batatu, bafite indobo n'ibidomoro bari kuvoma amazi. Ni byiza ko dukwirakwiza amazi ahantu hatandukanye kuko tuyakoresha turi koga, gufura n'ibindi byinshi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

abana bane bafite ikidomoro bari kuvoma amazi, ni byiza ko mu muco wa Kinyarwanda twitanga umwe akagenda akabasha kubagezaho amazi nk'uko bikwiriye.

Ni byiza yuko dushyira amazi ahantu hatandukanye, kugira ngo abantu abagereho, ku buryo bwiza. Iyo abantu basanze amazi ari makeya, barayarwanira cyane, hakavamo n'uburwayi, cyangwa bakayanduza.

Abayobozi bicaye, harimo abagabo n'abagore, bafite intego yo kugeza ubuzima bwiza ku baturage bayobora, kuko bifitiye ibihugu akamaro, kandi bikaba binakenewe, mu buzima bwacu.

Abasore n'inkumi iyo bagiye kubaka urugo rwabo ruramye, rushikamye, bakenera kwegera abanyabuzima kugira ngo bababwire uburyo bwo kutabyara abana benshi cyane, nko gukoresha ibinini n'inkingo zitandukanye.

Mu bitaro bitandukanye baba bafite ibikoresho bifasha ababyeyi, abana, abapapa barembye cyane kuko bagomba kuba bafite n'inzobere zizi gukoresha ibyo bikoresho, abarwayi barembye bakunda kuba bafite ububabare cyane bagomba kwitabwaho kugira ngo bakire.

Umugabo wicaranye n'umuganga. Ni byiza ko dukomeza kubungabunga SIDA kuko iyo umuntu yayanduye, bituma yiheba, akaba yanakora ibindi bikorwa bibi, byakwangiza igihugu cyacu.

Abanyeshuri bari ku mugezi bafite indobo bari kuvomeramo amazi. Ni byiza ko mu bigo by'amashuri dukwirakwizamo amazi, kuko tuyakoresha turi kuyogesha amasahani twaririyeho n'ibindi byinshi.

Abantu benshi bicaye, bari kwiga ku kintu runaka, ni byiza ko nk'abayobozi tureberera icyagirira sosiyete akamaro cyangwa igihugu cyacu, akenshi iyo abayobozi bafashe imyanzuro n'abaturage bayigenderaho igihugu kigatera imbere.

Abantu benshi bicaye hamwe bateze amatwi muri salle nini cyane, bari kubagezaho uburyo ki bagomba kwirinda indwara zitandukanye na buryo ki bagomba kubungabunga igihugu cyabo.

Abana benshi n'ababyeyi aho bari kubagaburira igikoma, amata cyangwa n'ibindi bitandukanye, ni byiza ko abana bakiri bato tubitaho tukabahereza ibyo bakeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane harimo ababwira n'ababwirwa. Ni byiza ko twafata ingamba nshya zagirira igihugu akamaro. Urugero nko kwirinda indwara zitandukanye nka SIDA, ikindi kintu cyatugirira akamaro ni uguteza igihugu cyacu imbere.

Mu bihugu byinshi bifite imisozi miremire. Bakunda gukoresha uburyo bwiza bwo kuvoma amazi. Ariko kugira ngo abandi bayabone ni uko bifashisha umuntu ugomba kuyasunika kugira ngo ayahereze imbaraga abandi bose bavome. Ntabwo umuntu ashobora kuvoma hatabonetse wa wundi usunika amazi.

Abana benshi bambaye imyenda isa bari mu rugero rumwe n'abantu bakuru bari kubagaburira, ni byiza ko duhereza amata cyangwa ibindi byinshi abana kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza cyangwa tubatoze gusangira.

Ese mwari muzi ko ku bigo by'amashuri, ku bitaro n'ahandi hose dukenera kandagira ukarabe? Abana, abanyeshuri bayikoresha bavuye muri toilete, mu myanda n'ahandi henshi.

Abagore batatu n'umuganga, aho bari kubapima umuvuduko, ni byiza ko twipimisha imivuduko n'ibindi birwara bitandukanye kugira ngo tumenye uburyoki twabyirinda kuko urica.

Umwana uri kunywa amazi, inyuma hari n'abantu benshi bigaragara ko amazi ari ingirakamaro mu gihugu cyacu. Ni byiza ko dukwirakwiza amazi mu bice bitandukanye kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Abana batandatu bigaragara ko ari abanyeshuri, bari ahantu hari ikigega cy'amazi, bari kunywa bakoresheje ibikombe. Ni byiza ko dukwirakwiza amazi mu bigo byinshi kugira ngo ngo twirinde inyota.

Umugabo wicaye ku kidomoro bigaragara ko ari ku ivomero. Ni byiza ko dukwirakwiza amavomero haba mu mujyi cyangwa mu cyaro kuko ari ingirakamaro, tuyifashisha mu buzima bwacu tuyanywa, tuyatekesha n'ibindi.

Umusaza uri kumwe n'umuntu umeze nk'umuganga. Ni byiza ko iyo abantu bageze mu za kuko tubitaho kuko nta mbaraga baba bagifite, baba bafite n'indwara nyinshi zo kwitabwaho. Ni byiza ko tubafasha mu gihe bashaje.

Ahantu hari umugezi n'umwana ufite indobo ari kunywa amazi akoresheje amaboko. Ni byiza ko dukwirakwiza amazi mu bice bitandukanye by'igihugu kugirango ngo tubashe kugira ubuzima bwiza kandi tuyakoreshe mu mirimo yacu.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukunda gukoresha amazi, mu gufura, koza, gukoropa, iyo abantu bayabuze iwabo mu rugo bajya kuyazana kure cyane. Abantu bakunda kuyakoresha harimo abamama, abana n'abandi benshi.

Uburyo bwiza ibitaro byinshi bikoresha, bashyiraho abanyabuzima bakabigisha uburyo bazajya bita ku barwayi, babahereza imiti bakababwira n'uburyo bayikoresha kugira ngo bavure abantu badashoboye kujya kwa muganga cyangwa babandi baba batwite bakabitaho bari mu rugo batavuye iwabo.

Abana bafite imirire mibi iyo ubuyobozi bubimenye butumiza ababyeyi babo kujya gufata ibintu bitandukanye harimo; ifu y'igikoma, amata, umuceri n'ibindi byose bitandukanye.

Uburyo bwiza bwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura, abantu benshi bajejwe kwisuzumisha kugira ngo bamenye niba bayirwaye, bafate imiti hakiri kare, muri ubwo buryo rero bashyizeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri bifasha abaturage bose ku isi hose.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi aho bavomera amazi. Ni byiza ko dukwirakwiza amazi ahantu hatandukanye mu gihugu kuko tuyakoresha turi gufura, koza amasahani no gukoropa.

Urubyiruko harimo abakobwa bane n'umuhungu umwe, bishimiye gufata ifoto kubera ko UNICEF ibafashije mu buryo bwo kubaho neza kuri buri mwana nta kintu bagendeyeho nta no kuvangura.

Abana bari kuvoma amazi ku mugezi, ni byiza ko tugira umutima w'urukundo, aho amazi bayavoma bakoresheje imbaraga nyinshi. Amazi aba ari kuva hasi ajya hejuru, ni yo mpamvu bakoresha buriya buryo.

Abaganga benshi bari kwita ku murwayi umwe, bigaragara ko ababaye cyane. Ni byiza ko abaganga bagomba kutwitaho, kugira ngo bamenye imva n'imvano y'indwara turwaye. Kandi ni byiza ko tugana kwa muganga mu gihe tubabaye kugira ngo batwiteho.

Abana benshi cyane bigaragara ko bari ku kigo cy'amashuri aho begereye umugezi, ni byiza ko dushyira amazi ku bigo by'amashuri kuko abana bayakoresha mu bintu byinshi, urugero nko kunywa, kuyakaraba n'ibindi byinshi.

Mu Rwanda uburinganire bugenda bwiyongera. Aho bibiri na cumi n'umunani twari dufite mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri nacumi n'icyenda twari dufite mirongo irindwi ku ijana, bibiri na makumyabiri twari dufite mirongo irindwi na gatandatu ku ijana, naho bibiri na makumyabiri nari rimwe twari dufite mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Mu giturage akenshi usanga abana bafite imirire mibi. Iyo abayobozi babimenye babubakira nk'irerero, ku buryo bashobora kubona nk'amata, igikoma, bakabitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu benshi bicaye bafite n'amakaye bigaragara ko ari nko mu nama. Ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo, twegera abanyabuzima kugira ngo badufashe nk'abagore batwite begera abanyabuzima kugira ngo babafashe.

Abantu babiri bicaye umugore n'umugabo n'umwana, bigaragara ko ari nko ku munyabuzima, ari kumwigisha ibintu bitandukanye byerekeye n'uburyo ki babungabunga ubuzima bwabo, kugira ngo bazabashe kugira imibereho myiza.

Umuntu uri gutega amazi mu ntoki ari kuva mu gitembo. Ni byiza ko tubungabunga amazi kuko aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero, mu cyaro bakunda gukoresha amazi y'isoko kuko nta yandi baba bafite.

Umwana uri kuvoma amazi, afite n'indobo z'ubururu, ni byiza ko dukwirakwiza amazi mu duce dutandukanye, kugira ngo abantu babashe kuyabona kuko tuyakoresha mu bintu byinshi.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bigaragara ko ari umukarabya intoki n'amazi n'isabune. Ni byiza ko abana bacu tubitaho tukabakura imyanda mu ntoki baba bafite kugira ngo tubarinde indwara.

Umuntu wicaye hasi bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko twegera bano bantu, tukabitaho, tukabaganiriza kuko baba barangiritse, tukamanajinga na siterese baba bafite.

Abantu benshi bishimye bari gukoma amashyi, bigaragara ko bavuye nko mu nama cyangwa bayigereje, ni byiza ko twishimira ibikorwa turimo kugira ngo n'ababiduhaye, bibagirire akamaro cyangwa bumve ko byatugiriye akamaro.

Abamama benshi bakuze, bakunda kugira ihungabana. Bagatekereza ibintu bya kera byahise cyane. Iyo umuyobozi abimenye cyangwa abaganga, bakunda kumuganiriza kugira ngo yiyibagize ibyo byose byabaye.

Umukobwa uri kumwe n'umuhungu, bigaragara ko ari kumuganiriza ku kibazo afite kugira ngo kimuvemo, ni byiza ko twegera abababaye, abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye kuba byabavamo.

Umwana wambaye imyenda y'imikara wifashe mu maso bigaragara ko afite ikibazo, ni byiza ko tubasha gukontorora siteresi z'abana bagira, iyo badafite abantu babareberera cyangwa badafite umuryango.

Abayobozi bakunda gusura abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo bakorane ibikorwa byiza, urugero nko gutera ibiti kubera ko bizana umwuka mwiza, bakishimira yuko banafatana ifoto y'urwibutso.

Abagabo n'abagore bari ahantu bari gufata ifoto bigaragara ko barangije inama, ni byiza gufata ifoto kugira ngo muzajye muhora mwibuka ibihe byashize kandi ni byiza ko twibuka twiyubaka.

Abantu benshi bari mu mihanda, bambaye imyenda ijya gusa kimwe n'abayobozi n'abapolisi, ni byiza ko turwanya ihohoterwa kuko buri muntu wese aba abifite mu nshingano ze.

Umuntu ufashe mu mutwe n'amaboko yombi afite n'ibisuko by'umukara bigaragara ko afite ikibazo; ni byiza ko twegera abantu bababaye bafite n'ibindi bibazo bitandukanye, kugira ngo tubagabanyirize uburibwe bari kugira.

Abantu benshi iyo bafite ikibazo mu mutwe, bagomba kwegera ubuyobozi cyangwa bakajya ku bitaro, kuko barabafasha cyane, mu buryo bwiza barabigisha kugira ngo batazongera kubugira ihungabana.

Iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, birababaza cyane kuko agenda atazi ahantu agiye, akiyenza ku bandi na bo akaba yabateza ikibazo kibi. Ni byiza ko tuvuza abantu bafite nk'ibyo bibazo.

Abaganga babiri n'umurwayi urwaye amenyo. Ni byiza ko tuvura umurwayi tubanje kumutera ikinya, kugira ngo tumurinde ububabare. Akenshi n'abaganga bishimira kuvura umurwayi atari kubabara.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari kwa muganga aho bavurira amenyo, ni byiza ko buri murwayi urwaye amenyo, asabwa kwisuzumisha hakiri kare kugira ngo yirinde n'ibindi bibazo byaturuka mu kurwara amenyo.

Abaganga benshi iyo bari kuvura umuntu urwaye iryinyo. Bagomba kumuhereza ikinini kimugabanyiriza ububabare. Kuko iryinyo rirababaza cyane. Nk'umuntu agomba gufata ikinini mbere yuko bamukura iryinyo.

Umuhungu ufashe ku ryinyo, wambaye umupira w'umukara n'umuganga wambaye imyenda y'imyeru, ufite ga mu ntoki z'ubururu n'ibikoresho bakoresha bavura amenyo. Ni byiza ko tubungabunga amenyo yacu, akiri mazima.

Abagabo mu buzima busanzwe bakunda gukoresha uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara zandurira mu menyo, nk'urugero iyo wariye ugakoresha agati uri gukuramo iyo myanda ntago bigusaba kujya kwa muganga.

Umugabo ufite akadodo mu ntoki wambaye umupira w'umweru ufite na derede ku mutwe, ni byiza ko buri gihe umuntu iyo amaze kurya agomba gukoresha akadodo kuko gakura imyanda mu menyo, kakaba kanaturinda kurwara indwara zitandukanye zijyanye n'amenyo.

Umwana w'umukobwa bigaragara ko bagiye kumushakira amenyo amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi kubera ko ayo yari afite atayashaka cyangwa afite ikibazo.

Umugabo wicaye ari guseka agaragaza amenyo ye ari kumwe n'umuganga, ni byiza ko twita ku menyo yacu buri munsi, kuko iyo agaragara neza natwe tugaragara neza.

Abaganga benshi iyo bagiye kuvura abana barwaye amenyo, mu buryo bwiza bwo kubagabanyiriza ububabare bagomba kubahereza ikinini cyangwa kubatera urushinge kugira ngo bataza kubabara barimo kubakura iryinyo cyangwa bari gushyiramo iyindi miti ibagabanyiriza ububabare mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi bigaragara ko ari kumukura amenyo, ni byiza ko mbere yo kugukura amenyo ubanza guterwa ikinya kugira ngo kikurinde ububabare ugirirwa mu gukurwa amenyo.

Abana benshi cyane bambaye iniforume biga muri pirimeri cyangwa muri garidiyene, bari kubigisha uburyo ki bakwita ku menyo yabo, ni byiza ko dukoresha uburoso na korogate mu kwita ku menyo.

Umukobwa uri gukoresha uburoso mu gusukura amenyo ye, ni byiza mu gihe umaze kurya kuba wasukura amenyo ukoresheje uburoso kugira ngo wirinde indwara zitandukanye no kwanduza abandi.

Umugabo munini cyane ufite n'urudodo rw'umweru mu kanwa no mu ntoki, ni byiza ko dukoresha indodo mu gihe zatuvura amenyo cyangwa turi gukura imyanda mu kanwa tumaze kurya.

Umugabo uri gukoresha akadodo, ari gutunganya amenyo ye neza. Ni byiza ko twihutira kwa muganga kugira ngo batubwire uburyo bwiza bwo gukoresha akadodo cyangwa bwo gutunganya amenyo yacu igihe afite ikibazo.

Umugabo ufite urudodo mu menyo. Ni byiza ko dusukura amenyo yacu tumaze kurya. Mu Rwanda abantu benshi bakoresha ibikoresho bitandukanye bari gusukura amenyo yabo. Urugero uduti bita imiswaki cyangwa urudodo.

Abana b'abakobwa, bafite uburoso mu ntoki. Ni byiza ko dukoresha uburoso na Korogate mu buryo bwo kurinda amenyo yacu nk'igihe tumaze kurya imyanda yakwanduza amenyo. Ni byiza ko dukoresha uburoso tuyasukura.

Mu bigo by'amashuri abana benshi baba baturuka ahantu hatandukanye, nk'iyo abayobozi baje kubasura babigisha ibintu bitandukanye byinshi cyane. Urugero nk'uburyo ki bakwirinda indwara zandurira mu menyo bagakoresha uburoso bakoresha ibintu bitandukanye imiti n'ibindi byinshi, rero abayobozi barabigisha kugira ngo birinde.

Iyo umubyeyi amenye ko umwana we afite ikibazo cyo mu menyo amukorera ubutabazi bwibanze cyane nko kumugurira igikoresho bakoresha bahanagura amenyo no kumugurira umuti wayo.

Umugabo uri guseka agaragaza amenyo ye, ni byiza ko mu ubuzima bwacu bwa buri munsi twita ku menyo yacu tuyaborosa cyangwa tujya kwa muganga, igihe hari ikibazo yagize mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye.

Abaganga babiri ni umurwayi urwaye amenyo, ni byiza ko twirukira kwa muganga mu gihe dufite ikibazo cy'amenyo kugira ngo badufashe kuko amenyo arababaza. Ni byiza rero umuntu urwaye ko yajya kwa muganga bakamufasha.

Umugabo n'umwana we aho bari gukoresha akadodo karekare bakura imyanda mu menyo kuko bibarinda indwara zitandukanye. Ni byiza rero yuko tubungabunga amenyo kuko ari ingirakamaro.

Umumama ushaje cyane wifashe ku mazuru wambaye amataratara, ni byiza ko tubungabunga abakecuru tukabagezaho n'ibyo bakeneye kugira ngo bazasaze neza, kugira ngo usaze neza ugomba kubihera mu bwana.

Umumama wicaye ku gatambaro gasa neza yarambitse mu byatsi, yunamye ari kugorora umubiri we. Ni byiza ko dukora siporo mu kugorora umubiri kuko biturinda imitsi, umuvuduko n'ibindi.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bigaragara ko ari kumwigisha kubara ibintu bitandukanye, udupapuro tukaba twanditseho nka rimwe, kabiri, gatatu cyangwa inyuguti zitandukanye a, b, c, d n'ibindi.

Abayobozi benshi iyo bateraniye hamwe baba bishimiye gufata ifoto bari guhereza abaturage babo ibibagenewe, kuko ubu usanga ari byiza cyane kandi bifitiye inyungu u Rwanda rw'ejo.

Umugabo n'umwana we bafite igikinisho mu ntoki, ni byiza ko dukinana n'abana bacu kugira ngo tubiteho hakiri kare na bo bazabashe kubikorera abana babo n'uko mu zabukuru zacu tuzajye tubaho twishimye.

Umugore n'umugabo bishimira buryo ki babayeho neza kubera ko baba barabitangiye mu bwana, nk'urugero gukora siporo, kwirukanka, gusimbuka n'ibindi byinshi bigufasha kubaho neza iyo umaze gusaza.

Umukobwa uri gufasha umusaza ni byiza ko mu buzima bwacu dufashanya mu gihe umuntu ananiwe, ageze mu zabukuru cyangwa ashaje cyangwa adafite ubumenyi kuri icyo kintu ni byiza ko twamufasha kuko nawe aba azagufasha.

Umumama wicaye mu kagare n'umuganga wicaye ku ntebe, aho ari kumupima umuvuduko. Ni byiza ko tumenya uko amaraso agenda mu mubiri kugira ngo tubashe kwirinda kuba umuvuduko wazamuka.

Akenshi abantu bakuze babayeho neza, baba barabitayeho mu buto bwabo, aho usanga barabigishaga uburyo ki barya indyo yuzuye cyangwa bagakora siporo kugira ngo babashe kuzabaho neza mu zabukuru.

Akenshi abayobozi bo mu midugudu bakunda gukoresha uburyo bwo kwigisha urubyiruko ku buryo bakwirinda nko gusama igihe kitari cyagera, kuko byangiza ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo n'umugore bashaje cyane bigaragara ko bari kureba imiti bagiye kunywa, ni byiza ko dufatira ibinini ku gihe kuko ari ingirakamaro, akenshi iyo abantu badafashe imiti uko babibategetse ntabwo bakira.

Abamama bari gusoroma icyayi mu Rwanda ahantu hatandukanye tuhagira icyayi urugero mu rubaya, ni byiza ko dusoroma icyayi neza kuko tukijyana mu bihugu bitandukanye.

Abaganga babiri bari kumwe n'abaturage batandukanye ni byiza ko tugeza ibikorwaremezo ku baturage urugero nko kubapima amenyo ku buntu n'izindi serivise zose zabafasha kubaho neza.

Twirinde ubushita n'indwara mbi, iyo umuntu umwe yayanduye habaho ikibazo abantu benshi bamujya kure, ugasanga mu gihugu cyose birangiritse. Inkende zikunda kwanduza izo ndwara mu buryo butandukanye bwinshi cyane.

Mu Rwanda, uburyo bwiza bwo kwerekana imbaraga dufite, aho twavuye n'aho tugeze ubu ngubu; dukunda gukoresha ikimenyetso kivuga ngo ''ku gipfunsi'', ku buryo abantu bose babona imbaraga dufite n'aho turi kugera.

Inzu irimo abantu benshi batandukanye, abafite ijambo n'abari kubwirwa aho bari kubasangiza ibintu bitandukanye nk'ukuntu bakwirinda indwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza nko gufata inkingo zitandukanye, nk'urugero nk'iza korona kugira ngo bayirinde n'ibindi byinshi byabagirira akamaro.

Abayobozi bicaye n'ababwirwa, aho bari kurwanya Marburg Virus. Ni byiza ko duhagarika ibyorezo bitandukanye dukoresheje kwisukura intoki, kutegerana n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu batatu, umwe bari kumutera urushinge. Ni byiza ko dufata inkingo uko bitegetswe kuko iyo utazifashe wanduza abandi kandi kwikingira ni byiza mu buzima kuko biturinda kwanduza abandi.

Uburyo bwiza bwo kwirinda kanseri, mu gihugu cyacu abantu barabyibuha cyane cyangwa ugasanga ibiro bafite birengeje uburebure bafite, tugomba gushyiraho siporo cyangwa kurya indyo yuzuye kugira ngo ibiro byacu bihwane n'uburebure.

Akenshi mu bigo by'amashuri, bashishikariza abana mu buryo bwo kwirinda SIDA cyangwa ibindi byose. Abayobozi babikora mu buryo butandukanye. Batumira ibigo byinshi bakabajyana ahantu hamwe bakabigisha abana bakirinda.

Abantu benshi cyane bari kugenda mu muhanda, bambaye imyenda y'imikara n'imyeru. Ni byiza ko twirinda kanseri y'ibere kuko irakira. Abantu benshi bakunda kugira ikibazo kuri kanseri. Ni byiza ko twivuza kuko irakira.

Uburyo bwiza bwo kubaho, tugomba kwisuzumisha indwara zitandukanye, nk'urugero nk'igituntu, aho usanga abantu badushishikariza kujya gufata imiti n'urukingo, iyo urwaye igituntu ugomba gufata imiti neza kuko urakira, kandi kirandura.

Abantu benshi batandukanye bari kwiga ku bintu byinshi, ni byiza ko twakwiga uburyo ki twakwirinda nk'indwara zitandukanye buryo ki twabungabunga Igihugu cyacu n'ibindi byatugirira akamaro.

Ahantu bigaragara ko ari kwa muganga, bafite ibikoresho byinshi bitandukanye n'igitanda, bigaragara ko umurwayi ahabwa serivisi nziza nk'uko abishaka, abarwayi iyo bivurije ahantu heza na bo bakira neza.

Ibitaro bya Ruhengeri bikunda kugira ubusitani butandukanye. Harimo ibiti n'ibindi. Iyo abantu bagiye kwivuza bakunda kubura umwuka bagakenera umwuka mwiza kubera ubwo busitani. Muze tujye kwivuza ku bitaro byiza.

Iyo abantu bagiye kwa muganga bitewe n'ikintu baba bagiye kwivuza. Bagomba kuhashyira igishushanyo kerekana icyo kintu abantu bagiye kwivuza kugira ngo biborohere kandi baba bafite n'ahantu abantu bicara bategereje yuko babona serivisi.

Umusaza uri kumwe n'umwana w'umukobwa uri kumupima umuvuduko. Ni byiza ko twihutira kwa muganga mu gihe twamenye ko turwaye indwara zitandukanye urugero nk'umuvuduko kugira ngo tubyirinde, tugabanya isukari n'ibindi byinshi nk'umunyu n'amavuta.

Ibitaro birimo ibikoresho bitandukanye bifashisha kwa muganga, urugero nk'ibitanda. Ni byiza ko ibitaro bigira ibitanda kugira ngo bafashe abarwayi barembye cyane kuba bakira banaruhuka.

Inzu irimo intebe, ameza, mashine, harimo n'ijisho, bigaragara ko ari ho bavurira abantu bafite ikibazo cy'amaso. Ni byiza ko umuntu urwaye amaso agana ahantu nk'aha kuko batanga serivisi zifatika, zifitiye n'Igihugu akamaro.

Iyo umuntu arwaye cyane bikabije akajya kwa muganga, mu buryo bwo kumufasha bamujyana ku gitanda cyiza kimufata ku buryo adashobora guhanuka ngo yikubite hasi kuko nta mbaraga aba afite.

Mu bitaro bitandukanye bagira ibikoresho kuko iyo abantu barembye bakinira hahandi bajya bagakira, abarwayi benshi baba baraturutse ku bitaro bitandukanye bidafite ibikoresho iyo bageze ahantu heza hateguye, hari ibikoresho bitandukanye n'inzobere bakunda gukira.

Inzu nini cyane bigaragara ko batangiramo serivisi z'ubuvuzi, ni byiza ko duhagana kuko bafite ibikoresho bitandukanye, isuku n'abaganga b'inzobere, akenshi abaturage iyo bivurije ku bitaro nk'ibi ngibi baba bafite icyizere cyo gukira vuba.

Inzu nini cyane irimo ibitanda n'ibindi bikoresho bakoresha kwa muganga ni byiza ko abarwayi babaha iruhukiro mu gihe bategereje izindi serivisi cyangwa barembye cyane.

Ibitaro bikungahaye ku bikoresho bitandukanye. Ni byiza ko tujya ku bitaro bifite ibikoresho byinshi bihagije kugira ngo indwara yacu bayituruke imuzi bayirandure mu mubiri.

Ahantu hanini cyane bigaragara ko ari aho batabarira abantu mu gihe bagize ibibazo bitandukanye by'umubiri, ni byiza ko twihutira kwa muganga mu gihe dufite ikibazo kuko ari ingirakamaro kwivuza hakiri kare.

Abantu batandatu bigaragara ko bakora kuri clinic bafunze ingumi. Ni byiza ko tubagana kuko batanga serivisi nziza nta muntu batoranyije, abantu benshi bakunda abaganga b'abakobwa kuko babitaho cyane.

Ibitaro byiza bya Nyarugenge biherereye mu mujyi, byubatse neza bifite n'ibiti ku mpande zabyo n'imbere bigomba kugaragara neza, kubera ko abantu benshi baba bakeneye kuhaza ngo bakire indwara barwaye.

Ibikoresho bitandukanye bikenerwa kwa muganga. Ni byiza ko tugana ibitaro bikungahaye mu bikoresho byinshi kugira ngo tubashe kubona serivise nziza cyane. Akenshi abaganga bakunda gukora neza, mu gihe bafite n'ibikoresho byiza.

Abaganga babiri bari imbere y'igikoresho cyo kwa muganga, aho umuganga umwe ari kwereka undi ibintu bitandukanye, agomba kwifashisha mu gihe ari gufasha umurwayi, ni byiza ko twiga tukanafata.

Abaganga n'umwana aho bari kumwereka bu buryo ki yafata amenyo ye neza ayaborosa akoresha n'imiti itandukanye. Ni byiza ko twegera abaganga bakadufasha bakatwigisha na buryo ki twarinda amenyo yacu kurwara.

Inzu nini cyane irimo ibikoresho bifashisha mu butabazi bw'ibanze, aho ugura ikintu kimwe maze abakugurishije na bo bakaguhereza ikindi cy'ubuntu.

Inzu babikamo imiti ni ingirakamaro cyane kuko baba birinda yuko yakwandagara ahantu henshi bayishyira ahantu hamwe kugira ngo umurwayi nasaba serivisi bayimuhe bihuse cyane. Ni ngombwa ngo dushyire imiti ahantu hamwe hateguye hari isuku kandi hatekanye.

Inzu nini cyane y'ubuvuzi bigaragara ko harimo imiti, computer n'intebe, aho umurwayi iyo arwaye akeneye imiti araza bakamufasha n'iyo avuye kwa muganga bayimwandikiye, araza bakamufasha.

Inzu, indabo n'umuhanda. Ni byiza ko tugana ku Kigo Nderabuzima cya Rwerere kuko bafasha abaturage barwaye. Akenshi iyo abantu batuye kure, birabagora kuhagera kuko giherereye mu cyaro.

Ibitaro byinshi bikunze kuba bifite jaride iteyemo ibintu bitandukanye, urugero nk'iyo abantu babarinze kunyura muri jaride, babakorera uburyo bwiza bw'ahantu bazajya banyura bakahasasa amabuye.

Inzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye n'ibitanda bigaragara y'uko ari kwa muganga, ni byiza ko tujya kwivuza mu gihe dufite ibibazo kugira ngo badufashe batuvure indwara zitandukanye zaturembeje.

Inzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye bifashisha kwa muganga; ni byiza ko tugana ibitaro cyangwa ahandi hose bafite ibikoresho bitandukanye, kugira ngo batuvure neza.

Aho abarwayi baryama cyangwa baza kubareba iyo barwaye, hagomba kuba isuku ihagije, kugira ngo twirinde gukwirakwiza izindi ndwara zitandukanye zandurira mu buhumekero. Ni byiza ko abantu bakora amasuku kugira ngo birinde ibindi byinshi bitandukanye. Nk'urugero nko gukwirakwiza indwara.

Inzu bigaragara ko ari kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye n'umuntu urwaye barimo gufasha gukira. Ni byiza ko twihutira kwa muganga mu gihe dufite ibibazo bitandukanye kugira ngo badufashe.

Abantu batatu bari ahantu hari ibiti, ni byiza ko dufata ifoto kugira ngo tuzajye dukomeza twibukana. akenshi iyo abantu bakorana bakunda gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo nibajya ahandi bazajye bahora bibukana.

Ibikoresho bitandukanye, dukoresha turi kugorora umubiri. Urugero, ibyo twambara mu mutwe, ballon n'ibindi byinshi. Ni byiza ko tugorora umubiri, kugira ngo tuzabashe kugira ubuzima bwiza mu zabukuru.

Umuntu wambaye imyenda y'imikara hose, bigaragara ko ari ukugorora umubiri we. Ni byiza ko dukora siporo kuko idufasha mubu buzima butandukanye kudukiza indwara, nk'urugero umuvuduko, n'ibindi byinshi.

Umukobwa wambaye imyenda y'imikara ususu ibisuko birebire ufite n'amazi iruhande rwe. Ni byiza ko tugorora umubiri wacu kuko biradufasha biturinda indwara za kirimbuzi cyangwa gusaza vuba.

Abantu benshi, urugero nk'abahungu, iyo bamaze kwirukanka, bagomba kunywa amazi kuko ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muze twubake umubiri, tunanywa amazi.

Uburyo bwiza bwo kwirinda indwara zitandukanye, babyeyi, bahungu, bakobwa muze dukine, muze dukore imyidagaduro, muze dusimbuke, muze twiruke kugira ngo twirinde za ndwara zose zitwibasira mu zabukuru.

Umugabo bigaragara ko avuye muri siporo, akaba yambaye umupira w'umukara, ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo, kuko mu buzima biba bikenewe yanasohoye n'imyanda myinshi.

Umugabo wicaye uri kunywa amazi, ni byiza ko buri munsi tunywa amazi kuko ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, akenshi iyo abantu bamaze gukora siporo ni byiza ko banywa amazi.

Umugabo uri kunywa amazi. Ni byiza ko tunywa amazi kuko ari ingirakamaro, urugero nk'iyo umuntu avuye muri siporo kubera ko aba yatakaje imyanda myinshi, akenera amazi mu mubiri.

Iyo abantu bari kwidagadura, bakenera kwirinda impanuka. Bambara ibibarinda umutwe, kuba wakomereka. Ku maguru bagomba gushaka ibintu bambara, no ku mano hose. Iyo bakoze impanuka bibatwara amafaranga menshi. Twirinde, kwirinda biruta kwivuza.

Inzu nini cyane bigaragara ko ariho abantu bagororera umubiri, harimo ibikoresho bitandukanye, ibibafasha kurambura amaguru, amaboko n'ibindi bice by'umubiri. Ni byiza ko twitabira siporo cyangwa aho kugororerwa umubiri, kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Umukobwa uri kunywa amazi, wambaye n'imyenda y'imikara. Ni byiza ko tunywa amazi mu gihe turi gukora siporo kuko adufasha kugabanya imyanda mu mubiri kandi ni meza mu buzima bwacu.

Abantu babiri bigaragara ko bari muri siporo, bafite ibintu mu ntoki bari kuzajya bazamura. Ni byiza ko twubaka umubiri, cyane cyane ku bahungu, tugakora amatuza kuko abakobwa nibwo badukunda.

Inkweto z'umukara zisa nk'aho ziremereye cyane, aho usanga abantu bazifashisha bari gukora siporo cyangwa bari kwirinda yuko bakandagira nk'ikintu kikabinjira mu kirenge.

Umukobwa uryamye hasi bari kugorora amavi bazamura bamanura, ni byiza ko twirukira kwa muganga mu gihe dufite ikibazo cy'amavi cyangwa tugakora siporo kugira ngo tubashe kuyagorora neza.

Ijage n'igikombe kiri gusukwamo amazi ni byiza ko dukoresha amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi tuyanywa kuko bituma biturinda indwara bikanoza n'impyiko, ni byiza rero tunywe amazi twubaka umubiri wacu twirinda n'indwara.

Umugabo uri muri siporo fasha ku mavi, ni byiza ko tugorora umubiri kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu zabukuru, abantu bishimira kuba barakoze siporo bakiri bato kuko mu zabukuru baba bameze neza.

Iyo umuntu ashaka kugorora ingingo ze, akenera ibintu byinshi bitandukanye nk'ikintu kimurinda kuba yavunika, iyo icyo kintu atakitwaje agomba guhura n'impanuka ikomeye ku buryo imujyana kwa muganga.

Umugabo urambuye akaboko ufite n'ikintu cy'ubururu kimeze nkaho gikozwe mushashi ku nkokora. Ni ibyiza ko dukoresha ibikoresho nkibi mugihe dushaka ko twigabanyiriza ububabare cyangwa dukonje.

Gukora siporo ni byiza cyane, aho usanga abantu bayifashisha mu kugorora umubiri cyangwa bakirinda indwara zitandukanye nk'imitsi, imivuduko cyangwa n'ibindi byinshi. U Rwanda rwashyizeho gukora siporo rimwe mu kwezi.

Umwana w'umukobwa uzamuye akaguru afashe mu ivi, bigaragara ko ari kugorora umubiri, ni byiza ko duhora tugorora umubiri, kuko bidufasha kuturinda indwara zitandukanye, urugero nk'umuvuduko n'ibindi byinshi.

Umukobwa wicaye, ufashe ku kaguru ye bigaragara ko ari ukugorora umubiri, ni byiza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tugorora umubiri kuko biturindata kurwara umuvuduko wo gusaza vuba cyangwa kwatakwa n'izindi ndwara zitandukanye.

Imbuto zitandukanye ni nziza mu mubiri urugero imineke, pome, amaronji n'ibindi. Ku bantu bashaka kugira ubuzima bwiza bakunda kwifashisha ibintu bitandukanye urugero nk'imbuto no gukora siporo.

Umukobwa ufite ekuteri mu matwi, ari kunywa n'amazi. Ni byiza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tunywa amazi kuko aturinda indwara zitandukanye, yoza n'impyiko.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye bidufasha tugorora umubiri wacu. Ni byiza ko tujya ahantu bafite ibikoresho bitandukanye kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bigatuma binaturinda indwara.

Imbuto zitandukanye harimo imineke, inyeri, n'ibindi byinshi bifashisha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, n'ibikoresho byabugenewe bakoresha mu gihe bari muri siporo.

Umuntu uryamye bari kumukorera massage. Ni byiza ko tugana abantu babyigiye, bakatugororera umubiri kuko birafasha biturinda indwara, stress n'ibindi bitandukanye byatwicira ubuzima.

Ibintu byinshi bitandukanye, dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ngombwa ko buri mbuto zose, ibyatsi, ibintu byose byatugirira akamaro tubifataho kugira ngo umubiri wacu tuwurinde kurwaragurika.

Igiti bakoresha bivura mu bintu bya Kinyarwanda, ni byiza ko twegera abakuze bakatuvura kuko ari ingirakamaro. Mu gihe ugikeneye ugomba kwegera abakuru kuko ari bo baba babizi.

Imiti myinshi ya kinyarwanda itandukanye. Ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda, kuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu gihe tutari twajya kwa muganga, cyangwa dutegereje kujyayo cyangwa ari byo byadufasha aho hafi.

Icyatsi kimejeje cyangwa bateye kiba ahantu kure mu ishyamba, aho usanga abaturage bajya kugica kubera ibibazo bitandukanye bafite kugira ngo bivure, mu gihe batari bajya kwa muganga cyangwa ari byo babategetse gukoresha.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, uri mu ishyamba rinini cyane, ari gutoranya icyatsi kimufitiye akamaro, ni byiza ko tumenya imiti idufitiye akamaro n'icyo ivura mu buzima bwacu.

Imiti itandukanye iri mu bikombe ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda kuko idufasha kwivura indwara zitandukanye urugero nk'imitsi, imivuduko n'ibindi byinshi.

Ubwoko burindwi bw'ibihingwa bitandukanye, ni byiza ko twita kuri buri gihingwa cyose, tugatuma gikura neza tukagihereza amazi tukagihereza ibyo gikeneye kugira ngo mu minsi iri imbere kizatugirire akamaro.

Iyo umuntu arwaye indwara zitandukanye kugira ngo akire neza bamusaba ko yarya ibintu bitandukanye, rero agomba gufata imbuto n'ibindi byinshi akabihuriza hamwe, akifashisha agasekururo akabisekura kugira ngo za ntungamubiri abashe kuzibona zose.

Ibihingwa by'ibyatsi, akenshi dukoresha mu buvuzi bwa buri munsi, ni byiza ko tubivomerera tukabihinga n'ahantu fite umutekano ku buryo n'u Rwanda rw'ejo rwazabikoresha.

Mu byaro byinshi nk'urugero mu Ngororero, Kirehe, i Gicumbi n'ahandi hose. Iyo umuntu yagize ikibazo agacika igisebe bakunda gukoresha imiti ya kinyarwanda kugira ngo bamuvuze mu gihe batabasha kugera ku bitaro vuba cyangwa mu buryo bwo kwitabara.

Mu Rwanda rwacu dufite imiti itandukanye ya kinyarwanda, akenshi ni byiza ko duhinga imiti ya kinyarwanda kijyambere urugero dushyira mu bikombe, mu biplasitike, mu bintu byashaje kugira ngo tuyigire ahantu henshi.

Igicupa kirimo imiti idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza ko tugana kwa muganga ku bantu bashakanye mu gihe turangiza vuba cyangwa ducika intege. Ibyo ngibyo bifasha urubyiruko, abagabo, abagore n'abasaza n'abandi benshi bifuza kubaka urugo rwabo.

Imiti ibitse mu ducupa, ni byiza ko ibyatsi bya kinyarwanda tubyitaho tukabikorera isuku, tukabibika mu ducupa kuko bituma imara igihe kirekire n'abandi bayikeneye babasha kuyibona byihutirwa.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera imiti ya kinyarwanda, nk'iyo umuntu yavunitse, yacitse igisebe cyangwa n'ibindi byinshi, mu gihe atari yajya kwa muganga, agomba gukoresha iyo miti kugira ngo abe ari kwigabanyiriza ububabare.

Umugabo uri kumwe n'umukobwa we mu ishyamba bari ahantu hari ibiti bya Kinyarwanda, ni byiza ko abana bakiri bato tubatoza imiti ya Kinyarwanda kugira ngo bazajye bafasha abari mu rugero rwabo cyangwa bazasigarane umurage wo kuvura.

Amaronji, tangawizi n'ibindi byinshi byifashishwa mu buzima busanzwe kugira ngo twirinde indwara zitandukanye zo mu mubiri, z'uruhu n'ibindi byinshi. Kwa muganga rero badutegeka gukoresha uburyo bwihariye tudakoresheje ibinini kugira ngo tubeho neza.

Ibiti biteye mu bidobo, ni byiza ko dukoresha imiti ya Kinyarwanda, akenshi nk'abana bakivuka bakunda kugira indwara zitandukanye, bakoresha imiti ya Kinyarwanda kugira ngo babavure.

Ibicupa binini birimo imiti itandukanye bigaragara yuko ari imiti ya kinyarwanda. Ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda mu buvuzi bwa gakondo, kugira ngo tubashe gukira kuko ari myiza.

Igikombe kirimo ibintu bitandukanye, ibyatsi na tangawizi; ni ngombwa ko dukoresha imiti ya kinyarwanda kugira ngo bitugirire akamaro, kandi binadukure imyanda mu mubiri, bituvure n'indwara zitandukanye.

Mu Rwanda dufite imiti myinshi ya kimeza urugero nk'imiravumba, abantu ba kera iyo barwaraga inkorora ntago bajyaga kwa muganga, ahubwo bakoreshaga imiravumba kugira ngo bivure cyangwa nk'iyo babaga barwaye izindi ndwara zindi.

Mu ntara nyinshi havuyemo umujyi wa Kigali bakunda gukoresha imiti ya kinyarwanda, iyo umuntu yavunitse baramwunga, gucika igisebe nabwo bagashyiraho bagakoresha imiti, ariko mu Mujyi wa Kigali, ntabwo bikunze kuboneka.

Inzu igaragara ko harimo imiti itandukanye ya Kinyarwanda babanje gusukura, harimo abamama babiri bayitanga, aho usanga abarwayi babagana kubera indwara zitandukanye bafite.

Umuti mwiza cyane uva ku bimera ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda kuko iravura, akenshi abantu barwaye imivuduko y'amaraso bakunda kubategeka gukoresha imiti ya kinyarwanda kuko aba ariyo y'ingirakamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imiti itanu ya kinyarwanda, itandukanye. Ni byiza ko, tumenya, uko imiti, bayikoresha. Tukanayibungabunga. Akenshi usanga urubyiruko tutayizi. Ariko ababyeyi, basabwa kudutoza, uburyo bayikoresha.

Mu Rwanda rwacu dufite imiti myinshi ya kimeza. Iyo ufite indwara zitandukanye bitewe n'icyo wabaye. Kuvunika, kunnya cyane, gukorora, kwituma n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Bakoresha umuti bitewe n'ikintu urwaye.

Ibinini biri ahantu hamwe bifite ibara ry'icyatsi, aho usanga umurwayi babimutegetse abifata neza, kimwe mu gitondo saa sita na nimugoroba cyangwa bitewe nibyo bamutegetse kurya.

Igiti kinini cyane bigaragara ko ari imiravumba cyangwa ubundi bwoko. Ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda mu gihe turi kuvura cyangwa kuvuzwa. Imiti ya kinyarwanda ikunda gukoreshwa mu cyaro cyangwa abantu bazi akamaro kayo.

Igikope kinini cyane kirimo ubuki. Ni byiza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi, twakoresha ubuki nko mu gikoma tugiye kunywa, mu migati no mu biryo aho hose dukoreshamo ubuki.

Ibikombe bibiri birimo imiti ya kinyarwanda, ni byiza ko dukoresha imiti itandukanye ya kinyarwanda kuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'iyo twakomeretse cyangwa turi kwitabara tutari twajya kwa muganga.

Igikope kinini cyane kirimo umuravumba. Ni byiza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi dukoresha umuravumba nk'urugero ku bantu barwaye imivuduko cyangwa bafite isukari nyinshi mu mubiri, babategeka kunywa umuravumba.